Imodoka iri mu muhanda inyuma yaho ku ipine hariho imbwa, irimo kwinukiriza munsi yayo ndetse yambaye n'umugozi, cyangwa se umunyururu bayishumikamo.

Murwego rwo kurushaho kugenzura umutekano wo mu muhanda, hagiye kujya hakoreshwa kamera zitandukanye, zigenzura umuvuduko w'ibinyabiziga ndetse zinagenzure niba wasinze mu iterambere ryiza cyane.

Mu gihe uri iwawe utetse, ni ngombwa ko umenya uburyo bwo kuba wazimya mu gihe gaze utetseho yateza ibibazo by'umuriro ni gute ugomba kwirwanaho ukabasha kuzimya iyo nkongi harimo nko gukoresha ikiringiti.

Abaturage bari mu nteko rusange barimo kubigezwaho inama iyobowe n'umuyobozi, hakaba hari hariho: abashinzwe umutekano, abapolisi, abasirikare, ndetse n'abaturage bateze amatwi.

Umutekano ukomeje kugenda utera indi ntera mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abapolisi bamwe na bamwe bacunga umutekano, bawucungira mu mazi, kugira ngo babashe guhashya umwanzi.

Abayobozi iyo bakoze neza baragororerwa, bahabwa igihembo cy'ishimwe kugira ngo babashe gukomeza gukora neza, ibyo bikaba bibera mu nteko rusange aho abaturage baba babirebesha amaso yabo.

Abakobwa bari mu kigo cya gipolisi cyigisha uburyo bwo gucunga umutekano, aho bari bamaze guhabwa amahugurwa. Bari ku murongo gumwe kugira ngo bahabwe amabwiriza amwe.

Abayobozi basuye uruganda rukoraga imodoka zagize ikibazo barimo basobanurirwa uburyo rukora ndetse n'uburyo ruje gukemura zimwe mu mbogamizi zagirwaga n'abatunze imodoka.

Henshi hatandukanye mu gihugu, usanga inzego z'umutekano zigenda zifasha abaturage uburyo bwo gusobanukirwa na gahunda za "Gerayo amahoro",zibabwira ibyiza byazo, n'uburyo bagomba kubigenza ngo urugendo rube rwiza.

Abashinzwe irondo ry'umwuga bagomba guhabwa bimwe mu bikoresho bibafasha mu gucunga, harimo n'amamoto azajya aborohereza, mu gukora ingendo ziba zitandukanye za buri munsi.

Abashinzwe umutekano barimo guhabwa amabwiriza atandukanye, y'uburyo bagomba kwitwara mu nshingano bahawe, ni abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda.

Abashinzwe umutekano bari mu myitozo. Aho bose baba bakora ibintu bimwe, bambaye kimwe, kandi bari ku mirongo zimwe biba ari ibintu byiza cyane.

Mu kurushaho guteza imbere umutekano no kuwukaza hagiye hashyirwaho ibigo byinshi bishinzwe gucunga umutekano aho iyo bahabwa amabwiriza baba batonze ku murongo umwe.

Umuporisi w'igihugu cy'u Rwanda, w'umudamu uri kuri parede, wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero afite inkota mu rwubati, ukenyeye umukandara.

Abayobozi b'inzego zigize zitandukanye, bari mu nama biga ku bintu bitandukanye. Abo harimo abadaso abapolisi abashinzwe urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndetse n'abayobozi b'uturere batandukanye.

Iyo abantu bari mu nzu bakoreramo inama ,usanga buri umwe afite ishyaka ryo kuba yatanga ibitekerezo, ndetse no kuba yabaza ibibazo byamwungura ubumenyi, ku bijyanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi.

Inzu yakorerwagamo ubuvuzi, iyo uhageze ntubura kuhabona abaje bagana ibitaro. Haba ababyeyi baje kuvuza abana babo, cyangwa se kubakingiza, bityo ibi bigatuma ibitaro bigira umubare w'abantu benshi babigana.

Abayobozi bari mu nama rusange, kugira ngo babashe kwiga ku bikorwa bigiye bitandukanye byateza umuturage ku isonga, aho bahabwa n'amazi yo kugenda bagorora imihogo yabo.

Inyubako irimo kuberamo inama y'abanyamuryango ba FPR inkotanyi, barimo kwiga uburyo bateza igihugu cyacu imbere, kikagira umutekano usesuye kandi uzira umuze.

Abaturage bari mu nama rusange barimo guhabwa inama zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'imiyoborere n'umutekano bigende neza.

Inkono y'itabi ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga n'abantu bageze mu za bukuru, bakurura umwuka ngo kuko byabafashaga kumva baguwe neza kandi akumva amerewe neza mu mubiri.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi, usanga ari inyubako zubatse kimwe n'amasoko, aho aba ateganye kandi yubatse ku buryo bumwe, bubereye ijisho.

Mu kurushaho guteza imbere uburezi n'uburere, hari hirya no hino ibigo byigisha abana, uburyo bwo kwiyungura ubumenyi mu bintu bitandukanye, ndetse no kubigisha kubara, gusoma, ndetse no kwandika.

Mu misango y'ubukwe usanga hateguwe ikibindi kugira ngo cyifashishwe banywa, basoma kurwagwa cyangwa se undi musururu wateguwe, aho abantu babiri bahurira kuri icyo kibindi bagasomera icyarimwe bifashishije imiseke.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo, bari mu gitaramo, bikoreye uduseke, bamwe ndetse n'amaguru yabo ariho amayogi. Bamwe bambaye imyenda z'umukara, abandi bambaye imyenda z'icyatsi, bose bambaye udusengeri tw'umweru.

Umubumbyi urimo kubumba ibikoresho byifashishwaga hambere, harimo utubindi uko mbona ariguha forume ikintu ashaka gukora.

Hirya no hino hari aho usanga bakinira umukino wo gusimbuka umugozi, no gusimbuka urukiramende, aho basimbuka muri metero ndende cyane z'ubujyejuru.

Urujyo ni igikoresho cyakoreshwaga hambere bafata amafunguro, rukaba Kari agakoresho gafukuye gafukuye gashyirwagamo ibiryo gakozwe mu mbaho.

Mu iserukira muco habamo ibikoresho byinshi byifashishwa:ingoma, ibicuma bifasha abari mu marushanwa cyangwa se bari gukora ibitaramo kugaragaza ibihangano byabo neza.

Umudamu urimo kugosora ingano mu buryo afatamo inara agashiraho ingano, agenda ajugunya hejuru ashungushura ibitameze neza akagenda abikuramo.

Abantu bo hambere bageraga ihembe. Iryo hembe ryabafashaga kuvuza akaruru mu gihe hateye ikintu kibi runaka bashaka gutabaza cyangwa se bakaryifashisha bacuranga zimwe mu ndirimbo zitandukanye.

Umugaragu ni umuntu wafashaga umwami hambere mu kumutuma mu kumufasha mu mirimo igiye itandukanye, kugira ngo ibyo umwami yifuza bibashe kuba byagerwaho, kuko yabaga yambaye impigi ndetse anakenyeye umwitero.

Abakaraza bari ku murongo umwe bitegura kuvuza ingoma kugira ngo zisuke neza, babanza kwigira hamwe uburyo baraza gutwaramo gahunda zabo.

Abagabo bamaze gukama urutoki kugira ngo ruzavemo ugwagwa, abaturage bazaja baranywa mu gihe bafite inyota arimo gukurura kugira ngo yumve niba rwahiye.

Amafunguro go hambere， gabaga ari amafunguro kameze neza， aho uwayaryaga yagiraga imbaraga， kubera uburyo gabaga gateguye， katarimo amavuta， nta bintu byinshi by'ibirungo babashije gushiramo.

Hirya no hino mu gihugu, usanga ibikuyu bororeramo inka kugira ngo zibashe gushakamo ubwatsi. Ugasanga ari ahantu hanini hateguwe kugira ngo inka zijye zibamo, zirishe, zibashe kugira ubuzima bwiza.

Inka za kinyarwanda bitaga inyambo, izi nka zikaba zarakundaga kugira amahembe manini, kandi ndabona ari inka nziza cyane.

Umurima guteyemo ibinyampeke bita amasaka aho bigeze mu gihe co kuba byasarurwa kugira ngo uyu muhinzi abashe kuba yabona amafaranga

Mu Rwanda rwo hambere wasangaga abantu bakuru ndetse n'abato bakina umukino wo kubuguza, banasoma mu gacuma inzoga babaga bashyizemo.

Mu kwegera abaturage hirya no hino babakemurira ibibazo haje inkiko gacaca kugira ngo zijye zunga abaturage, zibashe kumva impande zombi zagiranye amakimbirane zibafashe kuyakemura.

Abakobwa bitabiriye imyiyerekano kugira ngo babashe kuba bashimisha abitabiriye, aho iyo myi ee uwo mukino uba ari uwo kuba buri wese agenda ku ngendo y'iwe yateguye, aribyo bita fashoni.

Mu Rwanda rwo hambere, wasangaga hari inka zifashishwa mu bitaramo bigiye bitandukanye, bazivuga amazina, aho izo nka zabaga zifite amahembe manini cyane asa n'umweru.

Bijya bibaho gakeya ko wabona umugore urimo kuvuruganya inka, aho iyi mirimo yakorwaga n'abagabo, ariko mu bice bimwe na bimwe usangaga n'abagore barimo kubikora.

Amashusho go hambere, aho yabaga asa umukara aho abana bahekaga abandi bana bagenzi babo, ubona ko ari ubuzima bwabaga bumeze nabi.

Mu muco nyarwanda habagamo ibikorwa byo kuboha ibintu bigiye bitandukanye ndetse no gucunda amata aho hari ibikoresho byifashishwaga nk'imyambi n'amacumu bahitaga mu rubohero.

Iyo ugeze mu mashyamba agiye atandukanye usangamo abagitsemo ibihuti by'inzuki , kugira ngo babashe kubona ubuki bubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Usanga akenshi barabikoze ahantu haba ibyatsi byinshi.

Umubumbyi urimo kubumba imbabura zigiye zitandukanye, aho mbona amaze kubumba imbabura zigera muri cumi n'ebyiri.

Umuduri ni igikoresho cya gakondo cyifashishwaga, mu gutanga umuziki ugezweho, kugira ngo unogerere abitabiriye ibitaramo, aho bakoresha umugozi bakagenda ari wo bari gucurangiraho.

Abana bakunda kuvuza ingoma， ku buryo aho ayibonye hose，afata ibiti akagenda ari gukubitaho， kuko ririya jwi riba rinogeye amatwi.

Hirya no hino ugenda usanga intore zihamiriza ziryoshya ibirori, kugira ngo ahabereye abintu runaka n'abitabiriye babashe gususuruka, kandi bumve banezerewe.

Hambere habaga inka zagiraga amahembe manini izo nka zikaba zarifashishwaga mu bitaramo bigiye bitandukanye; nko mu gikorwa cyo kuvuga amazina g'inka, bakazizana ubundi bakazitaramira bakazivuga ibirori bigatinda bigashyuha.

Mu Rwanda rwo hambere .Ni ho wasangaga ,iyo umugeni yaba yijyanye bamutwaraga mu ngobyi. Mu muco wabo bakagenda bamuhetse. Ndetse hariho n'abatwaye inzoga mu kibindi.

Abantu bakora umurimo w'ubukaraza ni abantu usanga bafite ibyishimo bihambaye, kuko iyo arimo gukaraza yumva yishimye, ndetse nabo abikorera bakabasha kubyinana imbaraga.

Ababoshyi ni bamwe mu bantu bakora ibintu by'ubugeni nyarwanda, aho usanga baboshe uduseke twifashishwaga mbere abantu bagemurirana ibintu, uretse ko no muri iki gihe dukoreshwa.

Hari henshi usanga habitswe ibikoresho byifashishwaga mu muco gakondo bikibitse nk'uduseke twiza cyane, uruho ndetse n'ingabo zifashishwaga ku rugamba, ibi ni ibikoresho bya kinyarwanda.

Mu Rwanda rwo hambere, hari ibikoresho byakundaga kwifashishwa mu kunywa urwagwa cyangwa se ikigage, utwo dukoresho batwitaga uducuma twagiraga n'imiheha yifashishwaga bakurura icyo kinyobwa.

Inka zo hambere zabaga zifite amahembe manini ndetse hari n'utwatsi bakoreshaga bazihanagura kugira ngo bazirinde amasazi ndetse bakaba baranazambikaga urugori.

Abana barimo kwiga uburyo bwo kuboha uduseke, uduseke twifashishwaga mu muco nyarwanda, kugira ngo babashe kuba ari imyiyerekano bakora, kandi kugira ngo babashe guhahirana byoroshe.

Ingoma ziteretse ku murongo gumwe, hejuru y'aho hateretse imirisho kugira ngo abakaraza nibaza batangire kuzivuza mu buryo bwiza kandi bwizewe, buratuma ababyumva bumva ari injyana nziza.

Hirya no hino hari aho usanga hari inyubako zibitswemo ibikoresho bigaragaza amateka y'u Rwanda, ndetse n'uko rwakorerwaga. usangamo ingoma, ugasangamo amacumu, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Kera habagaho abantu bakoraga umurimo wo kuboha ibirago ariko muri iki gihe utakigaragara, aho bafataga mu mufuka bakagenda bawusozora ukavaho ubudodo bwifashishwaga baboha ikirago bikarangira kibaye kizima.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu muriro w'amashanyarazi, hari ibipima uburyo umuriro urimo kugenda unyura mu rustinga, cyangwa se mu gikoresho runaka, bityo bikarinda ko igikoresho cyasha.

Abize amashanyarazi, hari igikoresho bakoresha, bakata insinga bita ipensi cyangwa bakagikoresha, bari gushishura, cyangwa se kuzinga insinga, kugira ngo mugihe uri kuzinga urutsinga rushishuye, umuriro utabasha kugufata.

Igikoresho cyifashishwa m'umuyoboro w'amashanyarazi, aho ushiramo igihe ushaka ko amatara cyangwa se amakamera yawe azajya yakira, ukanasetingamo igihe ayo ma kamera yawe azajya arazimira.

Igikoresho cyifashishwaga mu mashanyarazi, kugira ngo babashe kurinda ibikoresho bibashe kugira umutekano usesuye, ukaba mu ndimi z'amahanga bakitaga Contacta, kikaba gifite inzira zigiye zitandukanye zikoreshwa mu kurinda umuriro mwinshi.

Ibyuma by'ikoranabuhanga usanga hari umugozi wifashishwa kugira ngo babashe gukurura umuriro w'amashanyarazi, babashe kuwugeza muri icyo gikoresho gikeneye kuwukoresha.

Mu biro cyangwa se mu bigo by'amashuri, ni hamwe usanga imashini zifashishwa mu gufotora impapuro, kugira ngo niba ufite urupapuro rumwe ibashe kurugukoreramo impapuro ebyiri zisa.

Mu bakora cyane cyane mu mashanyarazi bakunze gukoresha turunovise bafunga amaburo cyangwa se bayafungura, kugira ibikoresho bari gukora by'amashanyarazi babashe kubifungamo insinga zibashe kuba zakomera.

Ibikoresho byifashishwaga umuriro w'amashanyarazi barinda ibyakwangiriza ibikoresho kuko bako baregerera umuriro bashaka ko ukoreshwa bakirinda kuba bakoresha umuriro mwinshi.

Igikoresho cyifashishwaga umuriro gw'amashanyarazi, kugirango bibashe kurinda ibikoresho bigiye bitandukanye, mu gihe habaho umuriro mwinshi.

Igikoresho gitanga urumuri， baragicomeka kikabika umuriro， hanyuma mu gihe runaka ukagicomora，ukaba wagikoresha kidacometse，kigatanga urumuri mu buryo bwiza.

Iyo ugeze ahantu hateye imbere nko ku bitaro uhasanga inyubako nziza cyane, ariko uruhande rw'izo nyubako hakaba hateye ibiti bituma aho hantu hahora umuyaga mwiza kandi ibyo biti bikinjiza umwuka mwiza mu nzu.

Hirya no hino hari aho usanga utuyira tw'amabuye, amabuye ashobora guteza ikibazo ku bantu bayanyuramo, kandi hari aho usanga hari ibipangu bizitiye, birinze amasambu y'abaturage.

Hirya no hino iyo ugenda, ugenda uhasanga inyubako zubatse mu buryo bugeretse bumeze neza, aho ubona ari inyubako zibereye amaso, ziteye ubwuzu kandi zishimishije.

Urusengero rusengegwamo n'abakristu b'idini gatolika, gwubatse mu buryo ruhanitse cyane, ndetse impande y'aho hatewe ibiti byiza kugira ngo bikomeze gutanga umwuka mwiza.

Hari aho ugera ukahasanga amazu y' ubatse ku mironko umwe, kugira ngo hirindwe gusesagura ubutaka, kuko nicyo cyerekezo cy' u Rwanda, bashaka kugira ngo amazu abe ari hamwe.

Umuhanda muto w'abanyamaguru guri ahantu mu cyaro hatanyugwaga n'imodoka, hariho ibikorwa by'amashanyarazi, urabona ahantu hagishaka gutera imbere, hatameze neza.

Ikigo cy'amashuri cubatswe mu buryo bugeretse, aho ari inyubako ziba zimeze neza cyane kandi ziba zubatse ku buso buto cyane, ugereranyije n'uko inyubako imwe wayubaka ukwayo.

Ku bageze mu karere ka Musanze mu Ntara y'Amajyaruguru, abazi aho akarere kari ni Akarere kubabatse ku buryo bwiza bugezweho, aho kageretse inshuro ebyiri gusa kandi kakaba gafite ibyumba byinshi bitandukanye.

Mu Rwanda hari aho usanga hororerwa amatungo. Usanga ari ahantu harehare hadatuwe n'abantu benshi. Usanga hubatse ibiraro bashiramo izo nka.

Ikigo cy'amashuri kiri munsi y'umuhanda wa kaburimbo. Ikigo cyubatse neza kuko ari inyubako nshasha zimeze neza, zinogeye amaso ziri mu kirere ciza cyane.

Hirya no hino iyo ugenda uhasanga inyubako nziza zabugenewe zo gusengerwamo, kugira ngo bahimbaze uwiteka, kandi bakomeze kwishyira mu maboko y'Uwiteka.

Hirya no hino mu gihugu iyo ugenda, ntubura kubona ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bya Sina Jerari ndetse n'ibyo akoraga. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kwitabira kugura ibinyobwa byiza kandi byizewe.

Amazu gwubatse gagerekeranye gari mu gipangu kimwe, ndetse nkaba mbonamo n'agandi gubatswe nk'isoko kandi gateye irangi ry'umweru n'amadirishya asa ubururu.

Iyo ugeze munzu，hamwe na hamwe uhasanga ibikorwa bikoze mu mbaho，nk'ameza，intebe， ubona ko ari ibikorwa byiza cyane， biba biteye amatsiko， kandi umuntu wicara kuri iyo ntebe akumva aguwe neza.

Abaturage barimo guterera ubusitani imbere y'inyubako z'abantu, zubatse mu buryo bumwe barimo barinda isuri kugirango imvura itazabasasha kuza igatwara inzu, inyubako.

Urugomero rutangaga umuriro gw'amashanyarazi rwifashishwa n'abaturage, aho hari ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo bibashe gutanga umuriro mwiza.

Hirya no hino mu gihugu， hari udushami dushinzwe gukurikirana ibijyanye na mitiweri，cyangwa se ubwisungane mu kwivuza，akaba ari igikorwa cyagiye cyegerezwa abaturage， kugira ngo hirindwe ingendo zigiye zitandukanye bakoraga.

Umudugudu gubatsemo amazu ameze kimwe，kugira ngo gahabwe abatishoboye babashe kuba bagaturamo，nabo babashe kuba bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amashuri ni kimwe mu bikorwa remezo bikomeje kugenda bitezwa imbere， kugira ngo ireme ry'uburezi ribashe gutera imbere， aho usanga hari ibyumba byabugenewe byiza cyane， birimo ibikoresho bihagije.

Urusengero rusengerwamo n'idini rya Gaturika cyangwa se abakristu ba Gaturika, aho rurimo rukorerwa isuku buri munsi kugira ngo abinjiramo babashe gusengera ahantu hasa neza kandi hasukuye.

Mu Rwanda hagenda hubakwa ibiraro binyuze mu kirere, binyurwaho n'abanyamaguru bifasha abantu mu buhahirane, kugira ngo kugenda byorohe kandi se igihe cyabo cyo gupfa ubusa.

Hirya no hino ugenda uhasanga inzu zisengerwamo n'abakristu, usanga zimwe ziri ahantu hitaruye abaturage, kugira ngo zitabasha kuba zatera urusaku mu baturage, bagiye batandukanye.

Igipangu kizengurutse umurima, urabona inyuma ya ho inzu yubatse nk'urusengero wagira ngo ni aho bateranira, kandi muri icyo kirere haciyemo umuyoboro w'amashanyarazi .

Iyo ugeze mu karere ka Musanze， ntubura kuhasanga ibiro bya porisi，akaba ari ibiro bifasha abafite ibibazo bigiye bitandukanye， kuba byakemuka ndetse n'ibijyanye n'umutekano wo mu muhanda， ukabasha kuba wabonerwa igisubizo.

Iyo ugeze ahantu hateye imbere ntubura kuhasanga abaturage baje kubashaka serivise, aho aho hantu utabura kuhasanga ibiti biteyeho, kugira ngo bizane umwuka mwiza aho hantu.

Urusengero rusengerwamo n'abakristu ba Katolika kuko mbona n'ishusho ya Bikiramariya iri mu kirere kimeze neza cyane kandi igaragaza ubwiza.

Iyo abantu bashatse kubaka insengero, hakenerwa igishushanyo mbonera kigaragaza uburyo urusengero ruzaba rwubatse, kugira ngo abubaka babashe kurugenderaho bubake ibintu bifite ireme.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyubatse mu buryo bwiza, hageze n'umuhanda gunyurwagamo n'ibinyabiziga binini, aho haba hari n'abantu bategereje bashaka ababatwara kugira ngo babageze aho bagiye.

Hirya no hino usanga inzu Abayisilamu basengeramo, ,kugira ngo babashe kuramya ndetse banabashe gusaba Muhamadi ,kuba yagira bimwe abakorera mu mibereho yabo ,kandi babashe kwiyeza ku mutima no kuri roho.

Inyubako zororerwagamo akenshi zikunze kuba ziri ahantu haturanye n'amashyamba, kugirango ayo mashyamba abashe gutanga umwuka mwiza, uzafasha ayo matungo kuba yahumeka neza ntagire ibibazo.

Iyo ugeze mu Karere ka Musanze, uhasanga ahantu habugenewe, hagororerwa abantu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye. kugira ngo babashe kuba bakwisubiraho, cyangwa se babashe kuba bakwigishwa, banakore imirimo nsimbura gifungo.

Ibiro by'Akagari ka Ruhengeri mu Karere ka Musanze mu Ntara y'Amajyaruguru, aho kubatse mu buryo butameze neza mu buryo bushaje.

Abaturage bari mu nteko rusange, aho usanga bahabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo cyangwa se gutanga ibibazo, bagenda bahura na byo kugira ngo bibashe kuba byabonerwa ibisubizo.

Uburenganzira bw'umuntu ni ngombwa ko bukomeza kugenda bwubahirizwa kugira ngo umuntu akomeze kubaho atekanye, niyo mpamvu hatangwa amahugurwa atandukanye kugira ngo abantu babashe kumenya uburenganzira bwabo ndetse n'ubwa bagenzi babo.

Abaturage iyo bari mu nama rusange，bahabwa umwanya wo kubaza，bakabaza ibibazo bafite mu bijyanye n'imibereho，bikabasha gusubizwa， bityo iterambere ry'abaturage rigahora ku isonga.

Iyo ugiye ahagiye hatandukanye uhasanga inzu zigororerwamo imfungwa n'abagororwa bakoze ibyaha bike bitandukanye bahabwa baniyandikisha kugira ngo babashe guhabwa ibibakw niwiye me

Munteko rusange abaturage bahabwa umwanya wo kubaza ibibazo bibugarije, ndetse bikagenda binasubizwa, ubona ko ari ibintu abaturage bishimira kandi usanga byitabiriwe ku rwego rwo hejuru.

Mu nteko rusange usangaga abaturage bicaye bateze amatwi umuyobozi urimo kubagezaho ibiganiro, kugira ngo babashe gukuramo ibyabafasha kandi byabongerera iterambere mu mibereho yabo.

Ikigo gikorerwagamo imirimo y'amaboko yo kuboha ibikoresho bigiye bitandukanye bya gakondo nk'uduseke utuntu two gushiramo ibikoresho uri mu rugo aho abaturage bishimira ibyo bagezeho muri iyo gahunda yo kudoda

Abayobozi bari mu nama kugira ngo babashe guha abaturage inama zabafasha kubana mu mahoro kandi bakagira ubumwe bakanaharanira iterambere ry'ingo zabo ndetse n'iry'igihugu.

Umugabo utwaye igicuguti atwayeho amabati yifashishwaga mu kubaka ari ahantu yari avuye kugagura mu isoko, kugira ngo abashe kugageza iwe.

Umuhanda urimo abamotari bagiye batandukanye, bageze ahantu abagenzi bambukira, ubona ko ari abamotari bubahirije ibisabwa, bambaye ingofero zabugenewe, kandi bagenda neza mu umuhanda.

Abakunze gukora ingendo mu modoka zigiye zitandukanye ,habamo utumashini twifashishwa bishyura, aho umugenzi aba afite ikarita ya tapandigo, akoza kuri iyo mashini igakuraho amafaranga bitewe n'urugendo akoze.

Iyo ugeze muri Gare, usanga imodoka ziparitse ku murongo gumwe, zitegereje abagenzi kugira ngo zibashe kuba zabageza mu bice bike bitandukanye by'Igihugu, bitewe n'aho umugenzi arimo kwerekeza.

Tugeze mu gihe iterambere ari cyo kintu cy'ibanze, aho usanga hari amamoto akorwa, aho uyitwaye atabasha kuba yanyagirwa cyangwa ngo abe yahuhwa n'umuyaga, kandi ayo mamoto akaba atwara imizigo myinshi.

Imodoka yahoho yo mu ruzi yagiye gupakira umucanga gwa giciye gwifashishwa mu kubaka no hejuru yayo hariho urugo gwo gushiraho ihema.

Imodoka zitwara abagenzi usanga hirya no hino zimaze kuhagera. Aho abagenzi bishimira uburyo batwarwa bakabasha kugera aho bagiye amahoro.

Imihanda igiye itandukanye, usanga hari kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka ,amamoto. Ibi byose bifasha abantu mu kubatwara bibakura mu duce tumwe bibajyana mu tundi.

Imodoka za kebiyesi， ziparitse ku murongo umwe， zitegereje ko abagenzi baza berekeza mu bice bigiye bitandukanye， kugira ngo zibashe kubatwara bagereyo amahoro.

Muri gare zitandukanye z'igihugu ntubura kuhasanga amoko atandukanye y'ibinyabiziga bitegereje abagenzi ,kugira ngo bibashe kubageza mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse aho unasangamo abaturage benshi cyane.

Ikibuga cy'indege c'u Rwanda aho haparitsemo indege ya Rwanda eya. Igiye gutwara abaturage cyangwa se abagenzi berekeza mu bice bitandukanye by'Isi.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, aho yari iparitse ikeneye abagenzi ngo ibashe kubageza mu bice bigiye bitandukanye, aho hari ababa bishimira uburyo bakomeje kugenda babona ibinyabiziga bigezweho, bibafasha mu ngendo zitandukanye.

Iyo ugeze mu mihanda unyurwamo n'ibinyabiziga, usanga hari imodoka nini zitwaye imyaka ziyivana mu bice bimwe by'igihugu zibijyana ku masoko cyangwag se zibishyikiriza abaturage bo mu bindi bice.

Imodoka itwaye imifuka y'imyaka igiye itandukanye, imbere yaho hariho n'igitoki ndetse n'ushinzwe umutekano ufashe imbunda agiye kwinjira mu modoka.

Abagenzi barimo kwinjira mu modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ndetse n'umumotari utwaye umugenzi bose bari mu nzira kugira ngo babashe kugera aho bagiye.

Mu biyaga ni hamwe hakorerwa ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu, babikura mu bice bimwe babijyana mu bindi bice bifashishije ubwato bwabugenewe, bufite na moteri bufasha kwihuta.

Umuhanda urimo abamotari batatu batwaye abagenzi, hakaba mo n'imodoka nazo zitwaye abagenzi.

Imodoka zifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri peterori, zibivana mu gihugu kimwe zibyerekeza mu bindi. Usanga ari imodoka nini kandi imodoka ziba zigenda gake cyane, kubera ibyo zitwaye.

Iyo wageze mu migi iteye imbere usangamo ahantu imodoka zitwara abagenzi ziparika, cyangwa se aho zijya gufata abagenzi berekeza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Kubageze mu karere ka Musanze harimo gare, aho imodoka ziparika ndetse zinashakira abagenzi berekeza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, aho hari aho imodoka zinjirira ndetse n'aho zisohokera.

Iyo ugeze mu bibaya, uhasanga imodoka za ba mukerarugendo baje gusura Igihugu no gusura inyamaswa, bakadusigira amadovize, bikadufasha mu kubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo.

Iyo ugeze muri gare nka Nyabugogo usangamo urujya n'uruza rw'abantu benshi, baje bashaka ibinyabiziga kugirango bibageze mu bice bitandukanye by'igihugu, baba baturutsemo cyangwa bashaka kujamo.

Iyo ugeze mu nganda uhasanga ibikorwa byinshi birimo gukorwa, bikorwa kenshi n'imashini zifite imbaraga ziterura ibintu bimwe, zibishyira ahandi, ndetse bikaba bitondetse ku murongo umwe.

Mu mijyi yateye imbere iyo ugezemo usangamo imihanda inyurwamo n'abagenzi. Ukahasanga n'ahantu hagiye hatandukanye abagenzi bategererereza imodoka kugira ngo zibashe kubageza mu bice bitandukanye by'igihugu.

Imodoka za Ritiko ziparitse ku murongo gumwe, zitegereje abagenzi kugira ngo zibageze mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye.

Iyo ugeze aho abagenzi bategera imodoka uhasanga abantu bagiye batandukanye. Abanyeshuri barimo kwerekeza cyangwa se bava ku mashuri aho bafashwa kugira ngo babashe kugera mu ngo zabo amahoro.

Iyo ugeze aho baparika imodoka zitwara abagenzi, uhasanga imodoka nyinshi, zitegereje ko zibona abagenzi berekeza mu bice bigiyemo bitandukanye by'igihugu, kugira ngo ziborohereze urugendo.

Iyo ugeze aho imodoka ziparika zishaka abagenzi, uhasanga abantu benshi, abagenda n'amaguru, abagenda n'ibinyabiziga, n'abandi barimo gushaka imodoka ziberekeza mu bice baturutsemo.

Umuyonzi utwaye igare utwayeho amata, ariko uwakoze amakosa akunda gukorwa yo gufata ku kindi kinyabiziga kugira ngo kibashe kuru, kugenda kimukuruye aho ibi bitezaga impanuka.

Ni umukino urimo guhuza amakipe abiri atandukanye ugwo umukino ni ugw'amaboko bita volebolo aho bamwe bakina bari mu kibuga cyabo n'abandi bari mu kibuga cyabo bakagenda barenza fire.

Umukinnyi w'umupira gwa basikete gw'amaboko, urimo kwitoza, kugira ngo akomeze kwiyungura ubumenyi ku bijyanye n'ugo mukino gw'amavuko gwa basikete.

Abakinnyi barindwi b'umukino gw'amagare barimo gusiganwa bose basa n'abegeranye, bari matsinda agiye atandukanye.

Abakinnyi b'umukino gw'amagare, bari mo mu irushanwa kugira ngo habashe kuba hagaragara uraza gutwara igihembo cy'umunsi, muri iryo rushanwa ry'uwo munsi.

Abakinnyi b'umukino go gusimbuka， abakinnyi basimbuka ku rugero rwo hejuru， aho hari umugozi uba warabugenewe，baba bagomba kurenga akawusimbuka，yagera hasi akagwa kuri matera zisashe.

Umwana uri mu marushanwa y’isiganwa， aho ubona ko aba yabyishimiye，kandi arakoresha imbaraga ze zose， kugira ngo abashe gutsinda ahabwe ibihembo.

Abafite ubumuga nabo ntibahejwe. Kuko nabo bahawe ijambo mu gukina umupira w'amaboko wa vale bolo. Aho bakina bahererekanya ku mupira. Abatsinze bakabasha kwegukana igikombe.

Iyo ugeze ku kibuga bakiniragaho umukino w'amaboko Volebolo. Uhasanga abantu benshi ,baje kukureba. Kuko ni umukino mwiza. Aho bababarenza fire haba. Abo umupir wapfira mu kibuga cyabo bakaba batsinzwe.

Bamwe mu bakinnyi bakina umupira wa hendibiro, bakunze kuba ari abantu bafite ubuzima buzira umuze, kandi baba basa neza bambaye neza.

Abakinnyi babiri b'umukino gwa tenisi barimo bifotoza kugira ngo babashe kuba batangira gukina, aho bari bari imbere ya fire bakiniraho ugo mukino.

Abakinnyi b'umukino wa basiketi aho barimo bari mu myitozo bitegura umukino aho usanga buri wese akorana imbaraga kugira ngo umukino bagiye gukina babashe kugutsinda.

Abakinnyi barimo gukina umupira w'amaboko bita vore boro, aho usanga bahererekanya barenza fire. Aho bamwe baboroka kugira ngo batabasha gutsindwa bagakomeza kubona umukino wari mwiza cyane.

Abakina umukino w'amaboko bita handibolo , ni umukino usaba imbaraga aho utsinda atsindisha intoki, agatsinda mu izamu ririmo umuzamu, bisaba ubwenge bwinshi ndetse n'ubushishozi.

Abakinnyi bane b'umupira gwa tenisi bari mu kibuga bafashe kuri fire. Barimo bahabwa amabwiriza mbere yo gutangira umukino gwabo, gwari gugiye kubahuza n'abandi bakinnyi.

Abakinnyi b'umupira gw'amaguru w'u Rwanda bishimira igitego bari bamaze gutsinda ubona ko binejeje cyane kandi babyishimiye.

Iyo ugeze ku mugezi wa Nyabarongo uhasanga ikiraro cyiza cyane kiri kunyurwaho n'abantu benshi haba abari muri kurusi y'amagare, kikaba ari ikiraro gikomeye kandi gitereye mu mazi hagati.

Abakinnyi barimo gukina, umukino w'amaboko wa basiketi, usanga bose bafite ishyaka ryo kuba batsinda, kugirango babashe kuba bakwegukana, igihembo kiba cyateguwe.

Ikipe y'abagore b'umukino gw'amaboko, barimo bahabwa amabwiriza y'uburyo umukino ugomba kugenda, kandi banakomeza kwishimira intsinzi.

Hirya no hino uhasanga ibibuga bigezweho bikinirwaho imikino igiye zitandukanye nka voliboro ndetse n'umukino wa tenisi aho usanga abawukina baba bameze neza kubera ibibuga byiza byubatse.

Abakinnyi benshi cyane b'umukino w'amagare, barimo bose basiganwa kugira ngo babashe kuba habonekamo uwa mbere. Aho mbona n'ibiti wagira ngo bari bageze mu karere ka Nyaruguru.

Umupira gw'umweru gukoreshwa mu mukino gw'amaguru, aho abakina baba bashaka kwishimisha mu buryo bugiye gutandukanye. Ni umupira mwiza cane.

Umukinnyi w'umukino gw'amaboko wa tenisi w'Igihugu cy'u Rwanda, aho yari arimo afashe igikoresho bifashisha bakina uwo mukino, kugira ngo abashe gutsinda.

Ikipe y'igihugu y'abagore b'umukino gwa basikete barimo basuhuzanya mbere y'uko umukino ukomeza , ujya mbere bahanahana amakuru nk'abagize Ekipe.

Ikibuga bakiniraho umukino w'amabokoko wa voleboro, aho abawukina baba bahanganye, bagenda barenza uyu mupira file abo wagwa mu kibuga cyabo bakaba batsinzwe.

Abakora mu bijyanye n'imikino, iyo ikipe igiye guserukira igihugu babanza bafata ifoto, bifotoreza ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bagaragaze aho baturutse ndetse n'igihugu bakomotsemo.

Hamenyerewe mu Rwanda igikorwa ca siporo ngaruka kwezi, aho usanga abantu b'ingeri zitandukanye bitabiriye, kugira ngo babashe gukora imyitozo ngororamubiri babashe kugira ubuzima bwiza.

Imikino y'amaboko ikomeje kugenda itera imbere cyane, aho usanga umukino w'amaboko wa voreboro, ukinwa cyane n'abakobwa na bo bawitabiriye, ku buryo ubona ko utakiri uw'abahungu gusa, aho bamwe baba bahererekanya abandi basubizanya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kunyuramo abagenzi, ndetse unifashishwa hanyuramo ibinyabiziga bikoresha moteri, haririmo imodoka banabona icyapa cya eyateri.

Akayira kanyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu akayira kegereye igipangu ubona ko bigoye kuba ahantu hakagurwa ngo hagirwe hagari umuhanda ube ugaragara neza.

Hirya no hino ku mihanda ugenda uhasanga utuyira tunyurwamo n'abanyamaguru, tukaba ari utuyira twaje kugira ngo tubashe gukemura bimwe mu bibazo byabaga mu muhanda, n'impanuka za hato na hato.

Ku mihanda igiye itandukanye, uhasanga ahantu hagenewe kunyurwa n'abanyamaguru, ariko munsi usanga haraciwe imigenda inyurwamo n'amazi, ibi bigafasha kurinda imihanda kuba yakwangirika.

Umuhanda gunyurwagamo n'ibinyabiziga bitandukanye: imodoka, amamoto ,hariho n'utuyira twagenewe abanyamaguru, banyuragamo iyo barimo kugenda mu mijyi igiye itandukanye.

Inyubako bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, aho hirya no hino usanga byegereye n'umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu.